Abagore babyina gakondo ndetse bamanitse amaboko wagira ngo bari mu kirori runaka, hari n'abaje kubashyigikira inyuma yabo.

Umugabo ufite umuheto ndetse n'imyambi n'amacumu ugaragara nk'aho ari ku rugamba rwarangaga umuco w'abanyarwanda.

Ni inzu bigaragara ko iri iruhande rw'ishyamba ndetse ikaba ifite n'insinga nyinshi ziyikikije bigaragara ko rwose haba hariho amashanyarazi menshi ahegereye.